Agakoresho gakoranywe ikoranabuhanga, kavomerera indabo ntoya, kakaba gatanga amazi makeya ariko kayashwiragiza mu nshe zose ,bakaba bakifashisha mu rwego rwo kugira ngo badasohora amazi menshi ,akaba yakwangiriza ikintu bari kuvomerera.

Abaturage benshi bakuyemo abagororwa n'abagore bari kugenda baritura icyondo, bagenda bahahinga bahagira neza. Akenshi na kenshi ibi bikaba biba byarakozwe kugira ngo habikwe ifumbire baba bazakoresha mu gihe bazaba barikeneye.

Umugabo wambaye boti z'umukara, wambaye n'ikabutura isa nk'umupira afite icyuma gitera umuti, ari gutera amashu umuti. Amashu ageze mu kigero cyo kubumbura niyo ari buterwe umuti.

Umugabo urimo gutera umuti inyanya, afashe icuma mu mugongo arimo aratera umuti. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa mu kwirinda ibyonnyi byose bishobora guhungabanya imyaka. Ubu bakaba babitera mu myaka kugira ngo imyaka ikomeze ikure ifite ubuziranenge n'ubudahangarwa.

Akaboko kambaye ga z' ubururu n'ishati y'umweru ,gafite akarahuri gatoya kananutse karimo amazi atageze kuri kimwe ca kabiri munsi yayo.

Imiti yica udukoko igenda iterwa mu bihingwa bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, kugira ngo hongerwe umusaruro wabyo. Ni imiti iri mu ducupa ndetse n'indi iri mu bishashi binini.

Umuturage arimo aratera umuti inyanya，inyanya nziza zashoye neza， inyanya zisa icyatsi kibisi， birumvikana ko atari inyanya zeze， kuko iyo ziba zeze ziba zisa umutuku.

Ikiribwa cy'amafi, amafi ni ikiribwa gikomoka mu biyaga cyangwa se mu inyanja. Amafi na none akaba yanitswe kugira ngo abashe gukawushwa neza mu buryo bworoshye hatabayemo gutaruka kw'amavuta. Kandi azamare igihe kirekire.

Akamere gatoya, kanditseho Wa umunani zeru zeru kabiri Police Marine, akaba ari akato gatoya k'abapolisi bacunga umutekano wo mu mazi.

Ifi irimo irotswa, irimo kotswa ku gatanda hejuru y'amakara. Ubu akaba ari uburyo akenshi na kenshi bwifashishwa mu kabari, kugira ngo ifunguro ryabo ribe ritanyuze, baribuze kunyura mu mavuta, ahubwo baryotse barirye ari umwimerere.

Ibiryo bitetswe neza byiganjemo amavuta menshi ,ndetse bikaba bifite amabara atandukanye ,urugero hari umutuku hari icyatsi ,ndetse hakabaho n'umuhondo ,ibi bikaba ari ibiryo akenshi na kenshi bifatwa mu gitondo ,kugira ngo umubiri ubashe kugira imbaraga umunsi wose.

Ifunguro ryuzuye rikubiyemo intungamubiri zose, ari ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, ndetse n'ibitera imbaraga. Bikaba bikwiye kuri iri funguro, rifite ifunguro ryiza ririho amabara yose, oranje, umutuku ndetse n'umuhondo ndetse n'icyatsi yemwe bikaba bihari.

Indege ya polisi akenshi na kenshi iyi indege yifashishwa mu butabazi bw'ibanze, aho imodoka idashobora kugera vuba cyangwa se igare na moto. Birashoboka ko aho idashobora kugera vuba, indege yahagera byihuse.

Amafi ari mu gatete, akenshi na kenshi amafi agenda apimwa mu kigero runaka agafungwa hifashishijwe agatete cyangwa se ibiro. Amafi n'ibiribwa kenshi na kenshi biribwa n'abakire kuko usanga bihenze kandi bigasimbura inyama.

Ibiryo bitetswe mu isafuriya bikubiyemo amafi, bikaba birunzwe na nonehakaba harimo ikirungo cy'icyatsi bigaragare ko ari sereri, akaba ari igihingwa kiba kimeze nk'imboga, cyifashishwa kugira ngo bongerwe impumuro y'ibibiriryo.

Amafi akirobwa agikura mu mazi atarakurwaho amaga, akaba ari amafi ategerejwe gutegurwa kugira ngo aharurwe akurwe amaga, hanyuma abone kuribwa nyuma yaho.

Voka ni igihingwa cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi ku mafunguro abantu bagenda bafata atandukanye kandi avoka nanone hari iziterwa n'ururabo kuko ziba zibereye ijisho.

Igiti kirekire cyane cy'umuvumu kitarakura, akaba ari igiti giherereye mu rutoki, na none akaba ari igiti kirekire cyane, aho kiri mu rutoki rushishe rwiza, bigaraga ko turi mu gihe cy'izuba, kugira ngo ibi bintu bibe bisa neza cyane.

Igitoki kiri mu mbuga, igitoki gifashwe n'inkingi kugira ngo kitagwa, ubu bukaba ari uburyo gakondo bwifashishwa kugira ngo bashyigikire igitoki kitagwa, kandi akaba ari n'uburyo bakoresha, kugira ngo igitoki kibashe kwera neza hatagize ibigihungabanya, urugero nk'umuyaga ,ndetse n'ibindi bishobora gutuma kigwa.

Igiti cyi'icyatsi cyo muri jaride, gifashwe n'agati kaziritsweho akagozi k'icyatsi, biri muri pasiparume, gisasiwe n'ibyatsi kugira ngo gikure neza, gifite n'akana kacyo kakivamo mu butaka.

Umurima munini hariho agace gahinzweho ibirayi byaronduriwe n'akandi gace kasaruwemo ibigori hagisigayemo ibitiritiri by'igigori. Inyuma cyane hariho ibitiritiri by'ibigori byakuweho ibigori bigikenewe kugira ngo bikurwe mu murima.

Ingemwe z'ibiti bitandukanye ni urugero. Hari ingemwe nini cyane zifite udushami mu tubabi dutatanye cyane akaba ari ingemwe z'igiti cya giriveriya gikorwamo imbaho. Hakabaho n'ingemwe z'avoka, kaba ari igiti kivamo avoka zo kuribwa, urubuto abantu benshi bakunda.

Uruzitiro cyangwa se urugo rukoreshejwe hifashishijwe imbariro z'inturusu ndetse n'ibishangi by'ibigori ndetse turabonaho n'imihati, imihati ndetse n'isombe. Ibi rukaba ari urugo rukoreshwa cyangwa sozitiro rukoreshwa kugira ngo urugo runaka rugire umutekano. Bukaba ari uburyo bukoreshwa n'abanyarwanda rwo hambere cyangwa se abo mu cyaro, kugira ngo ugire ubwirinzi bufatika.

Umurima urimo amashaza, ukaba urimo ibishyimbo, ukaba urimo n'amateke ndetse n'insina, ukaba uri imbere y'urugo ruhomwe ruteye urushahuro, n'amadirishya atarakingwa atarimo ibirahuri arimo ibipapuro. Bigaragare ko ari inzu itari yuzura ari urugo rutari rwagatangiye guturwamo.

Inzu itaruzura neza igikorerwa amasuku, itaritabwaho kugira ngo abantu bayibemo. Ariko inyuma yayo hariho umurima bahingamo urimo isombe ikiri ntoto, hakabamo n'amateke y'amabwayisi, bikaba bihinzwemo mu gihe inzu itari yagibwamo n'abantu ngo babe bahashyira imboga.

Igihingwa cy'amajeri gihinzwe ku bwoko bunini ni igihingwa kitaragera igihe cy'isarurwa kuko ntabwo cyari cyatukuza amababi yacyo. Iki gihingwa kikaba gihingwa cyane cyane mu bice by'amajaruguru ndetse n'ahantu hari imisozi miremire kuko kiba kidakeneye imvura nyinshi ahubwo kiba gikeneye imvura n'izuba icyarimwe.

Uburyo bakoresha mu gihe bagiye guhinga igihingwa cy'ingano, cyangwa se ibirayi aho bamanza guca utuntu tumeze nk'imiferege, kugira ngo hajyemo ifumbire kandi bashyiremo ingano ku murongo, cyangwa se ku bigori, cyangwa se bakabyifashisha mu gihe bagiye gutera ibirayi, kugira ngo ibirayi bajye basigamo intera zingana hagati y'ikirayi n'ikindi.

Ibiti byatemwe by' inturusu birambitswe hasi, byabaye ibikori byo gucanwa. Imbere hariho umusave muremure ufite n'imishumi yawo.

Igihingwa cy'inturusu, ibiti bya Kivuvu, akaba ari ibiti biba mu mashyamba kenshi na kenshi, kandi Kivuvu akaba ari igiti, si giti gusa ahubwo kivamo n'umuti kuko kivura mu nda cyangwa se kikavura n'izindi ndwara zataka umubiri.

Ingo ebyiri, urugo rumwe rusakajwe amambati y'umweru rukaba rufite urugo cyangwa se uruzitiro rupfutswe na shushu cyangwa se ibidodoki, zikaba ari imboga ziribwa mu buryo bubiri ari ugukekaguza imbuto zazo zitwa ibihaza, cyangwa se kurya amababi yabyo.

Icyatsi k'insina akenshi abantu bafata nk'ururabo, ni ururabo rimwe na rimwe ariko nanone rukaba umuti, aho rugenda ruvura runo rurabo cyangwa kino cyatsi kigenda kivura ibintu bitandukanye, urugero nko mu nda ndetse n'indwara z'uruhu urugero nk'ise.

Imbuto y'ibirayi by'amoko atandukanye aba ari ibirayi bigiye guhingwa, kuko ari ibirayi bifashwe neza kandi byumye kugira ngo bizatange umusaruro, bisarurwe ku musaruro ufatika.

Umukecuru uvuye guhinga wambaye umupira w'umutuku ndetse akaba afite n'isuka ku rutugu ishaje, yambaye n'ishapure mu ijosi, akaba afite n'ibitambaro by'umubiri biteze, ari mu murima w'ibishyimbo by'imishingiriro.

voka isatuyemo ibice bibiri, igice kimwe gifite urubuto ikindi nta rubuto rurimo. Iyi voka isa nk'umuhondo mu nda, ifite igishishwa gisa n'icatsi. Ni ivoka ziryoha kuko ari voka zidatinda gushya kandi ni voka zigira ingirakamaro ku bantu.

Igihingwa k'ikinoza. Ikinoza ni igihingwa cy'urubuto giterwa cyangwa se kikimeza, akaba ari akabuto karyohera cyane. Iyo keze kaba gasa umuhondo igihe katarera kakaba gasa icyatsi. Akaba ari agahingwa keza karyoha cane kuko abakarya barakishimira cane.

Umuntu wambaye ingofero, wambaye n'igikoti cy'imvura, kimurinda imbeho, gisa nka orange, afite igitebo mu mugongo, agenda asoroma icayi mu gitondo, uburyo bukoreshwa n'abantu basoroma n'icyayi, kuko bagisoroma ari mu gitondo, hariho imbeho, niyo mpamvu baba bifubitse.

Puwavuro, puwavuro y'umutuku ndetse na puwavuro y'icyatsi, akaba ari puwavuro ebyiri ziri ku giti kimwe, akaba ari puwavuro itari yera isa nk'icyatsi, na puwavuro isa nk'umutuku, akaba ari igihingwa, urubuto rukoreshwa Kugira ngo harugwe ibiryo, kugira ngo bigire umuhuumuro mwiza.

Urubuto rw'amapera. Amapera arenga atanu akaba arimo ibice byayo ni amapera afite mu nda hasa n'umutuku akaba ari amapera meza cyane ya kinyarwanda ,akaba akunze kugira umutobe.

Inka nyinshi z'umweru n'umukara mu rwuri, ziri kurisha, inka y'umweru iri imbere, inka z'umukara ziri inyuma.

Umugabo wambaye ishaketi y'umukara ndetse n'ipantaro n'ishati, arimo ahagaze mu murima w'amatunda, amatunda akuze ataragera igihe cy'isarurwa, ariko n'amatunda yazanye imbuto kuko ari amatunda yashyigikiwe neza atoshye bigaragare ko yitaweho uko bikwiye.

Isoko ry'ibiribwa birimo inyanya, pwavro, intoryi, amashu, ibitunguru ndetse n'ibindi. Ni isoko ricuruzwamo ibiribwa bihita bihahwa kugira ngo bijye gutunganywa bitekwe.

Ubucuruzi ni ubucuruzi bucuruza imbuto z'amoko atandukanye amatunda, amaronji, pome na oranje. Akaba ari imbuto akenshi na kenshi zifashishwa kugira ngo zisozwe ku ifunguro umuntu aba amaze kurya cyangwa se zihabwa abana kugira ngo bongere ubudahangarwa bw'umubiri.

Abaturage bakubiyemo ingeri zose haba abakuze haba abakiri batoya abagore n'abagabo, barimo barafata ingemwe z'ibiti kugira ngo bajye kuzitera mu murima yabo, iyi akaba ari gahunda ishyirwaho na Leta kugira ngo ubutaka bw'u Rwanda bukomeze kwirinda isuri, hakubiyemo gutera ibiti mu murima itandukanye.

Umugabo n'umugore umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, ndetse n'umugore ukenyeye igitenge, barimo barishimira umusaruro wabo ukomoka ku gihingwa ngandurabukungu ari cyo imyumbati, ibi bikaba ari ibihingwa byera mu gihe kirekire, akaba ari ibihingwa, byifashishwa mu gihe hakorwa ifu y'ubugari.

Inanasi zisa nk'icatsi ndetse n'umuhondo izeze n'izitarera neza ndetse harimo n'izahiye ziri ku gatanda aho zicururizwa.

Umuntu uri gusoroma imboga ufite agatambaro k'umutuku yiteze, akaba ari kubagara bigaragare ko ari kubagara ibyatsi abikura mu gihingwa, akaba ari umuco umenyerewe mu buhinzi bwo mu Rwanda.

Igihingwa cy'ibijumba gihingwa mu nshe z'u Rwanda zose ahanini mu gice cy'amajyaruguru. Ni ibijumba by'umutuku biri mu tubase tw'amabara agiye atandukanye, biri ku isoko aho ubigura bavuga igiciro akajyana bitewe n'ingano bagipanzemo.

Umusaza uri guseka wambaye ikote ry'umutuku n'ishati y'umweru n'ingofero y'abasaza. Afite isuka ku rutugu, isuka ifite umuhini w'umweru. Isuka yo isa nk'icyuma, inyuma ye hariho igihingwa cy'ibishimbo.

Aba mama bambaye boti, bakaba ari abantu benshi, batanu, ndetse baniteze, ndetse bafite n'imifuka mu ntoki, iyi akaba ari imyambaro ikoreshwa mu gihe bagiye gukora akazi kajyanye n'ibintu bitandukanye, urugero nko mu murima, nanone abagore bambara boti bikaba bikunze kuba mugice cy'amajyaruguru, kuko aricyo kinyerera, kandi kikagira n'imisozi miremire.

Isoko ricuruza ibyo kurya by'ibirayi .Ibirayi by'amoko atandukanye. Akenshi usanga ibirayi biba biri mu isanduku .Ku buryo bagenda bayoraho bike bike .Bitewe n'ibyo umukiriya abasabye.

Igihingwa cy'inyanya, inyanya akaba ari igihingwa kigenda gihingwa ku muronko, kandi akaba ari igihingwa gihingwa ahasizemo intera kugira ngo cyongere umusaruro wacyo.

Abagabo babiri barimo baragendagenda mu bishyimbo. Igihingwa cy'ibishyimbo, ibishyimbo birebire by'imiteja, kikaba gishyuye ibihingwa biri mu majyaruguru kuko ariho haba imisozi miremire hakaba n'imvura nyinshi.

Ibisheke: ubwoko bw'ibisheke bwa kagoha kagoha ni ibisheke biba bifite isukari itari nyinshi cyane ariko byoroshye, bifite amazi menshi, bikaba ari ibisheke kenshi na kenshi bicuruzwa byo kurya.

Ibijumba bitandukanye birimo amoko atandukanye ,iby'umweru n'iy'umutuku ,Kamamanzi na Wadada na Suka useke ,ibihingwa bihingwa mu Rwanda akenshi na kenshi mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu.

Amateke abiri, amateke ni igihingwa gihingwa mu Rwanda mu kigahingwa ahantu haboneka amazi ni ukuvuga mu gishanga; ni igihingwa cya gakondo kuko gikundwa n'abageze mu zabukuru.

Avoka eshanu, eshatu zibumbye z'icyatsi, avoka imwe ihiye yasatuwe mo kabiri, ifite igice kimwe kiri mo ikibuto n'ikindi kitari mo ikibuto.

igihingwa cy'urunyanya imyanya rutare urunyanya rutarakura rukizazana uruyangekenenshi na kenshi inyanya zigeze hano ziba zigeze igihe cyo kwitabwaho zigaterwa umutu kuhirindwa ibyonnyi kugira zikore neza zibashe kuba zatanga umusaruro mwiza

Umugore wambaye ishati akaba yanakenyeye isharupe y'icyatsi, akaba ari kuvomerera akoresheje agahombo. Uruhombo rusa nk'umutuku ndetse n'umukara, akaba ari kugenda avomerera ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa kugira ngo hongerwe amazi ku gihingwa, cyane cyane mu gihe cy'izuba, cyangwa se mu gihe cy'imvura nkeya ikabije.

Ubuyobozi bwagiye gusura ahantu mu giturage, ni ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'urutoki, mu rutoki runini ariko ni urutoki rwakubiswe n'izuba, bigaragare ko atari urutoki rwiza, abayobozi bajya gusurayo bakuyemo daso n'abandi bayobozi harimo umuyobozi w'umugore.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku akaba yambaye umupira w'ubururu, akaba afite igitebo mu mugongo we. Arimo arasoroma icyayi, ubu akaba ari uburyo bukoreshwa cyane cyane igihe hasoromwa icyayi, dore ko ntabwo basoroma bashyira mu mufuka ahubwo bashyira igitebo inyuma kugira ngo bagende bashyiramo n' ibiboroheye, bakore igihe kirekire kandi batananirwa vuba.

Amaronji ni igihingwa kigira uruti rufite imishubi ipfumana cyane, kandi amaronji ni igiti cyera kitarera kikaba gisa nk'icyatsi ariko cyakwera urubuto rwamara kwera, kikazana urubuto rusa nk'umuhondo.

Ibase iri gucururizwamo voka izi voka zikaba ari voka umunani ziri mu base ya oranje. Ubu ni uburyo bucuruzwamo n'umuntu utaragera ku iterambere aho bakifashisha ibikoresho gakondo.

Umugore witeze, wambaye umupira w'umutuku, uri kwanika ibigori ari kugenda abisanza kugira ngo izuba ribinyuremo. Ubu ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ibihingwa bihunikwe bitazaribwa n'imungu.

Voka ebyiri z'imbangurirano zifite ibiheri bisa umukara .Iruhande hari indi voka yasatuwemo kabiri ifite ikibuto isa icyatsi ndetse ifite n'uruhu rw'umukara.

Ibishyimbo, bikaba ari ibishyimbo bigeze mu ikigero cy'imiteja cyangwa se ibishyimbo byo ubwabyo bisarurwa nk'imiteja, bikaba ari ibishyimbo akenshi na kenshi ntabwo bijya biranda ngo bijye hejuru ngo babishingirire, ahubwo biba ari ibishyimbo bigufi bizana imiteja nuko bigasoromwa bikaribwa.

Igihingwa cy'amatunda ,amatunda mabisi atarera aho aba asa icyatsi, ndetse ayeze akaba afite ibara rijya gusa umukara na none umutuku .Amatunda n'igihingwa gihingwa mu misozi miremire akenshi na kenshi, aho kirandaranda ku biti, kandi amatunda ni umuti ndetse akaba n'urubuto rwongera ubudahangarwa mu mubiri kugira ngo umuntu atarwara.

Avoka eshatu z'umukara zifite uruhu ruriho ubuhri z'imbangurirano avoka ebyiri zikiri zose, ariko vodka imwe isatuwemo kabiri, igice kimwe gifite urubuto ikindi nta rubuto gifite. Zikaba zigiye kuribwa zikaba zamanje gutegurwa.

Abaturage barimo bakora amaterasi y'indenganire, amaterasi y'indinganiye akaba ari uburyo bwiza bukoreshwa kugira ngo hirindwe isuri mu mirima ndetse hanirindwe umusaruro muke uterwa no kuba umurima uba warakayutse warashizemo ifumbire.

Isoko ricuruza ibyo kurya urugero: imiteja, karoti, puwavuro, intoryi, inyanya. Akenshi ibi bikaba bicuruzwa mu masoko cyangwa se udusoko tuba turi mu makaritsiye, kugira ngo abatuye iyo bigwa babashe kubona ibyo kurya bitabagoye ku gihe.

Ihene y'umweru n'umukara, ihene ikiri ntoya, y'ishashi ni ukuvuga ko iyo hene ibyara, akaba ari ihene yaziritswe ku giti irimo irisha bakaba bayiziritse ku giti ,kuko babona ko nta muntu uraba uhari ,ngo akomeze ayicunga umunota ku wundi.

Ni ubwoko bw'imbuto ziribwa cyane, zikundwa cyane cyane n'abantu barwaye kuko izi mbuto zifashishwa mu kurinda uburwayi bwo mu nda ndetse no kurinda uburwayi bwo ku ruhu. Hari iz'icyatsi ndetse n'urubuto rumwe ruba rusa umuhondo.

Intoryi, intoryi ni igihingwa gitemba ariko nti ki cyane igi cyane kandi igihingwa kidasarurwa rimwe nano intobyi ziribwa n'abatari bake kuko ubusanzwe zihindundutse ugereranyije n'izindi mboga.

Igitsinsi cy'insina kirimo insina enye ndende n'insina ebyiri ntoya; harimo insina ebyiri zifite ibitoki, insina imwe ifite inkingi iyishigikiye kugira ngo kitagwa.

Ibishimbo bigufi bihinzwe ku murima munini, biri kubagarwa n'umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye bote w'umumama, akaba arimo n'ibigori bikeya bitandukanye bike cyane mu bishyimbo.

Abahinzi bari kureba igihingwa cyahinzwe cy'ibishyimbo, bambaye udupira dusa n'icyatsi, dufitemo amabara y'umweru harimo abamama n'abapapa bafite imipira ku maboko. Muri ibyo bihingwa harimo umuntu umwe, uri kugenda abireba.

Amatunda ibice by'amatunda bitatu ndetse n'amatunda asanzwe, amatunda ubundi ni igihingwa cyera ari uko kiranze ku giti kandi igihingwa akenshi na kenshi kifashishwa mu gihe hakorwa imitobe y'ubwoko butandukanye. Kandi akenshi na kenshi amatunda akunda kugaburirwa abana kuko agira intungamubiri nyinshi cyane.

Umugabo ubifitiye amahugurwa bikenewe fma tomarket alliance arim araganiriza abaturage ukuntu bagenda bajyana umusaruro wabo ku isoko bakabona amafaranga, ndetse akaba ari umusaruro w'ingano, cyangwa se akaba umusaruro w'amasaka.

Igiti cy'umwembe gifite imbuto zigeze mu gihe k'isarurwa， imbuto z'umwembe ni urubuto bakunze kurya mu gihe barimo barinda ubuhangange bwabo，bwo kurinda indwara ndetse akaba ari n'urubuto ruvura umubiri， mu gihe warwaye mu nda cyangwa se izindi ndwara zitandukanye.

Igiti cya shipuri, cyifashishwa kugira ngo abantu babone imyeyo yo kugenda bakubura ahantu hari imyanda, iki giti kandi ni n'umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo bakuvure indwara zitandukanye zo mu mubiri hifashishijwe uburyo bwa gakondo.

Imiteja iy'icyatsi，iy'umuhondo，iy’isine， hakaba hari imiteja y'ibishyimbo bitandukanye，aho usanga uko bisa，ari nako bijya bigira imbuto zigiye zitandukanye.

Amajeri, igihingwa cy'amajeri yumye asaruye . Akaba ari igihingwa cyifashishwa cyane cyane n'abantu bakuze kugira ngo babiteke bivanzemo ibindi bintu bitandukanye, bitewe n'uwo uri kubirya uko abishaka.

Amasaka yumye cyangwa se amahundo y'amasaka. Amasaka ni igihingwa gihingwa nk'ibigori ariko amasaka akaba atandukanye kuko amasaka yo amara igihe kirekire ,kandi nanone amasaka yo akaba agira umwero hejuru aho kuwugira mu mpande nk'ibigori.

Umugabo uhetse ibishyimbo bavuye gusarura ku igare, ibishyimbo akaba ari intonore zivuye gusarurwa akaba yapakiye igare cyane, ngo akaba ari uburyo bukoreshwa n'abahinzi badatuye ahantu hari imisozi ,kugira ngo batinaniza bareke gutwara ibintu ku mutwe ,babishyire ku magare.

Ibishimbo byatewe kijambere. Bifite imishingiriro y'ibyuma n'ibigori byatewe kijambere. Biri mu karima kabyo bigeze mu gihe cyo kumenerwa, n'ibishimbo bisa n'icyatsi.

Abaturage bakuyemo, abamama n'abana bari guhinga umuceri mu gishanga kirimo amazi menshi ahari umuceri utari wamera bari kubagara ariko inyuma yabo hariho abandi bari mu muceri wakuze ubona ko warangije gukora.

Ikibonobono kiva mu butaka akaba ari ikibonobono kizamuka gisa nk'icyatsi, kandi gifite amababi abiri, rimwe iruhande rw'irindi hakaba n'akababi kaba kagikura bipfupfunyuka mu ruti rw'icyo kibonobono.

Umumama wicaye ku gatebe, arimo agenda asogora ibyo kurya. Bishobora kuba ari ibirayi arimo gusukura abikuye mu murima cyangwa se akaba ari amajeri arimo asogora kugira ngo abone icyo guteka.

Igihingwa cy'ibihwagari, ibihwagari ni igihingwa kidakunze guhingwa na benshi hano mu Rwanda, ariko ibihwagari ni ibihingwa bahinga bikaza kuvamo amavuta yo kurya, abantu bakunze kwifashisha yitwa ibihwagari.

Ibishyimbo bine, igishyimbo cya mbere uko kigenda gikura kiva mu butaka, umutwe ukiri mu butaka. Igishyimbo cya kabiri ,igishyimbo kigaragaza ukuntu igishyimba kiva mu butaka noneho umutwe ugatangira kujya mu ruhande. Igishyimbo cya gatatu kigaragaza igishyimbo kigenda gikura, ku igishyimbo cya kane kigaragaza noneho ,igishyimbo cyatewe mu butaka gitangiye kuva ku ruti.

Utubase turimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibishimbo, ndetse harimo n'ibindi bihingwa by'amababi ariko bitagira amababi agandaye.

Inzuzi ziri mu mufuka usa nk'igitaka, inzuzi ni imbuto ziva mu bihaza kandi inzuzi zikaba zikorwamo ifu ishobora gukora nk'ubunyobwa, cyangwa se bakayishyira mu biryo kugira ngo bifate.

Ibigori byamaze gusarurwa ,byarajyanywe ariko ibikenyeri bya byabyo biracyari mu murima. Ibikenyeri bikorwamo ifumbire ,aho bikatagurwa bigashyirwa mu kiraro ,inka ikabicundagura bikazabamo ifumbire.

Amahundo y'ibigori. Ni ibigori biba byarumye, bimaze igihe kirekire bimanitswe ahantu ku biti. Ubu akaba ari uburyo bukoreshwa n'abaturage, kugira ngo bibikire ibyo kurya bazarya mu gihe kiri imbere, igihe nta mwero uzaba uhari.

Igishanga kinini cyane kinindamo amazi ,akaba ari igishanga kinini cyane mu gihe cy'ihinga ry'umuceri umuceri utaramera neza ariko uhinzwe . Iki gihe kikaba kigera mu gihe cy'imvura dore ko umuceri ukunda imvura nyinshi cyane.

Ubu ni ubwoko bw'ubunyobwa. Ubwoko bwa kijyambere bw'ubunyobwa, ubunyobwa bunini, ubunyobwa buba bunini cyane. Bukaba busa neza, akenshi na kenshi ubu bunyobwa nta bwo buryoha kubukaranga, ahubwo babusyamo ifu igatekwa mu biryo.

Ibishyimbo by'amoko atandukanye biri mu cyibo. Hari ibishyimbo by'umukara byitwa mwirasi hakabaho n'iby'umutuku byitwa nyiramagorori. Ubu aka ari ubwoko butandukanye bw'ibishyimbo bwera ahantu hatandukanye kandi bukagira bukaryoha, bukagira impumuro itandukanye.

N'ubwoko bw'ibiribwa bizwi nk'ibishyimbo, ibishyimbo rero bikaba bigeze igihe cyo gu gukura bikamera imizi biyifata mu butaka, ariko ahangaha uko bigaragara n'ibishyimbo bitari byakura ku buryo, kuko ntabwo biri mu butaka. Ni ubwoko bw'imbuto abantu benshi bakoresha mu gihe bafata amafunguro yabo.

Iduka ricuruza ibyo kurya hakubiyemo ibiceri, akawunga, amafu y'ubwoko butandukanye, amavuta, ahangaha uko bigaragara akaba ari stoke, aho ahantu habikwa ibintu bitari byacuruzwa.

Ibigori by'amabara akubiyemo umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, akaba ari ubwoko akenshi buhingwa kandi bukerera igihe gito, akenshi iyo akaba ari imbuto yera ahantu h'ikibaya hatagira imisozi miremire.

Igihingwa c'icayi gitewe ahantu harehare ahantu hagari, gitewe mu buryo bwa kijyambere kugira ngo umusaruro wiyongere, ni uburyo bukoreshwa n'abahinzi kugira ngo ba birinde ibyonnyi kandi batume umusaruro wiyongera.

Ingano zipakiye mu mufuka ndetse n'izindi zikiri hasi. Ingano ni igihingwa gihingwa ahantu h'imisozi miremire. Ingano zikorwamo ifu ikorwamo ibintu byinshi, urugero nk'umukati ndetse n'amandazi.

Ibigori byinshi, bigifiteho uruhu rwabyo, biri m'ubuhunikero rwubakishijwe ibiti, ubuhunikiro bujyiye bufite umwanya hagati y'umurongo umwe n'undi murongo w'ibigori.

Umwero w'amasaka, ihundo ry'amasaka akaba ari igihingwa gihingwa kugira ngo kibone umusaruro, kugira ngo gisebwe havemo ifu yo gukuramo umusururu, urwagwa, ndetse n'ibindi biyikorwamo byinshi.

Iminyeganyege iri mu mufuka, iminyeganyege n'ibiti biterwa ahantu kugira ngo birinde isuri ,nanone ni ibiti bikurwamo imishingirizo yo gushingiriza ibishyimbo birebire.

Umubyeyi ufite umwana mu ntoki mu kaboko kw'iburyo, akaba afite n'igitebo mu kaboko k'ibumoso, kirimo ibishyimbo by'intonore avuye gusoroma, akaba ari imishogwe y'ibishyimbo, ibi bikaba bikorwa mu gihe ibishyimbo bitarera neza, kugira ngo bisarurwe byose.

Igihingwa cy'ubunyobwa. Igihingwa cy'ubunyobwa ubunyobwa butarashishurwa butaravanwa mu gikonoshwa cyabwo akaba ari ubunyobwa bukiri mu gikonoshwa ni ho buri. Bigaragare ko ari bwo bugisarurwa ntabwo igikonoshwa cyari cyamenwa kugira ngo havemo ubunyobwa bushobora gukarangwa bukaribwa cyangwa se bugasywa bakabukoramo ifu yo guteka mu biryo.

Ubunyobwa , ubunyobwa butaratekwa cyangwa se batarasya. Ubunyobwa akaba ari igihingwa kitera mu majyaruguru. Ahubwo ubunyobwa butewa cyane cyane, cyera mu gice cy'iburasirazuba bw'igihugu na ho ubunyobwa bushobora gusyebwa bugakorwamo ifu itekwa mu biryo cyangwa se abantu bakaba baburya babukanjakanje.

Umworozi worora inka mu buryo bwa Kijyambere, aho zifite ibiraro byiza, ndetse akaba ari n'inka nziza zishishe zikibamba ni ukuvuga umweru ,n'amakara. Kandi zikaba zifite n'amaherena, akaba arimo azigaburira ubwatsi agenda asunika ubwatsi , ngo inka iburye neza iburyo mu mutuzo.

Ihene y'umweru n'umukara, ihene y'ishashi. Ihene iziritswe mu mbuga. Inyuma yayo hariyo akana karimo karayireba. Iyo akaba ari ihene ijya ibyara kuko si isekurume, ahubwo ni ihene ibyara.

Intama ifite ibyoya byinshi biragaragarako ari intama ikuze, iyi ntama ikaba iri kuragirwa yambaye umushumi mu ijosi, umugozi ,ikiziriko ubu akaba ari uburyo bukoreshwa mu gihe uragira atariho kuba ari kumwe n'iyo ntama ibi bigatuma biyirinda kujya kona.

Umworozi ufite ipombo itera umuti ,akaba ari umworozi wa kijyambere, dore ko ari kugenda afuhera inka ye, kugira ngo yirinde ibintu byinshi nkibyonnyi, urugero nk'amasazi ndetse n'ibindi bintu bitetse, urugero nk'imbaragasa kugira ngo inka ye ikomeze imererwe neza, ikomeze igire ubuzima bwiza.

Ifamu y'ingurube cyangwa se aho ingurube zororerwa. Ni ingurube zororerwa ahantu nta sima, nta byatsi birimo ndetse zikaba zirya ziryana umwanda, dore ko ziba zagiye mu bintu ziri kurya zigakandagiramo.

Abaveterineri batatu bambaye imyenda y'ubururu bambaye na bote. Bari kuvura inka y'ikijuju, bahambiriye kugirango itabica. Ubu ni uburyo bukoreshwa kugirango inka idatera amahane bayivure neza.

Ubworozi bwa kijyambere mu by'inkoko, n' ubworozi bukorwa n'umuntu ariko akabukorera mu nzu. Ahantu hagari harimo urumuri ruhagije kugira ngo inkoko zobone urumuri nonene zirindwe ibisiga.

Abaveterineri barimo barakingira bambaye amasarubeti y'icyatsi, bakaba bambaye ga mu ntoki z'umweru, bakaba banambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bakaba ari uburyo bw'ubwirinzi bishyiriraho, kugira ngo bo ubwabo babashe kuba bakingira neza, hatabayemo ingaruka zo kuba bakwandura indwara zimwe na zimwe.

Umu mama urimo aragaburira inka, inka nziza y'ikibamba irimo irira mu gasanduku cyangwa se amwanjari, ubu akaba ari uburyo bwa kijyambere bukoreshwa hagaburirwa inka, kugira ngo igire imbaraga, kandi igire igikamo gikomeye ndetse ibe yantangira n'ibirogo.

Inkoko y'inkokokazi y'umutuku ifite ibirokoroko by'umutuku, iraririye amagi yayo atanu, iri mu cyari cyayo. Uburyo bukoreshwa n'inkoko kugira ngo burarire amagi yabyo, kugira ngo hazavemo umushwi igihe kigeze.

Ingurube iryamye ,y'umweru, irikonkwa n'ibibwana byayo icumi, biri konka amabere atandukanye.

Itsinda ry'abaganga bambaye iniforume yabo ni ukuvuga udupfukamunwa, imyenda yabugenewe ndetse n'ingofero zabugenewe aho barimo babaga umuntu mu itsinda ry'abaganga bane bukaba ari uburyo bukoreshwa mu bitaro igihe umurwayi ari kwitabwaho bikaba ngombwa ko bamubaga. Akaba ari no mu cyumba cyabugenewe abantu babagirwamo.

Igisiga cya Nyiraruyongoyongo, akaba ari igisiga gifite amaguru maremare y'umutuku, kikagira n'umunwa muremure usongosongoye, icyo gisiga gikunze kuba ahantu h'igishanga, cyangwa se ahantu hegereye ikiyaga.

Inyamaswa igurukira mu kirere izwi nk'inyoni, ifite umunwa usongosongoye ,ndetse ikagira n'amabara atandukanye nka :oranje, umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyoni nyinshi z'ubwoko bumwe ziri ku nsinga, zimwe zirimo zishima izindi zireba bisanzwe ziri ku nsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ikinyoni kiba hafi y'ikiyaga cyitwa uruyongoyongo gifite umunwa usongosoye w'umukara, n'amababa y'umweru afite ibirizo by'umukara, amaguru y'umukara. Kiri gutambagira mu murima urimo ibyatsi n'bigori byasaruwe kera.

Inuma ihagaze aka inuma n'ubwoko bw'inyoni ziguruka mu kirere akaba ari ubwoko akenshi na kenshi uwo mu mibonobono ndetse butagira amahane dore ko inuma itajya yona. Inuma n'ubwoko buri wese abenshi kenshi batunga mu rugo iwabo kugira ngo bashimishe.

Inyoni ifite ibirokoko by'umutuku ,amaso y'umuhondo ikaba ifite amabara y'umukara n'umurizo w'umukara ariko hagati harimo ibara ry'umutuku ibi binyoni ntabwo hakunze kuba ahariho hose hamwe n'inyoni zikunze kuba muri parike zitandukanye z'igihugu.

Akanyamasyo: Akanyamasoyo ni' inyamaswa iba ifite igikonoshwa cyayo, ishobora guhindiramo ikabura, igihe hagize ingorane runaka zishobora kuba. Urugero nk'imodoka ishobora kuba igiye ku kagonga kagahita gasubiza umutwe wacyo, ndetse n'amaguru yacyo mu gikonoshwa, iki gikonoshwa kikaba gikomeye cyane, ku buryo kitapfa kumenanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kikaba cyongera ubudahangarwa n'ubuziranenge bw'umubiri w'ayamasyo.

Ibinyoni bibiri by'imisambi byahuje iminwa, bifite ibirokoko bisa nk'umuhondo n'amabara y'umuhondo n'umukara ndetse n'umweru ari ku mababa yabyo; iyi misambi ifite amaguru maremare ni inyoni ahanini ziribwa ,zitungwa zikaba zimeze nk'inkoko.

Igisiga cya kagoma. Kagoma ni igisiga kinini kiba mu biti binini, aho igisiga kenshi na kenshi kimara igihe kirekire, kandi kikagira amababa manini cyane.

Imbata irimo kurya icyatsi. Imbata ni inyamaswa cyangwa se agatungo kagufi gatungirwa mu rugo. Akaba ari itungo riba rifite amababa manini, ndetse ribyibushye zigira n'amaguru maremare.

Agacurama kafashwe mu giti, agacurama gacuramye bigaragare ko agacurama gashobora kuba gasinziriye. Ni inyoni isinziriye igihe kirekire kuko isinzira igihe kingana n'amezi atandatu yose.

Ingona ya korokodile, iyi ni ingona iba mu kiyaga. Ikaba iryanyana cyane. kandi iyi ingona ijya izamuka rimwe na rimwe ijya kota izuba kugira ngo imererwe neza.

Ubwoko bw'inyoni cyangwa se igisiga, gifite amabara menshi atandukanye umweru, oranje, pinki, icyatsi, umukara, ndetse n'amaguru ya pinki, izi zikaba ari ingona zitagaragara cyangwa se n'inyoni zitagaragara aho ariho hose, dore ko zifite n'amaso y'umutuku zikaba zigaragara kenshi na kenshi muri parike zitandukanye.